Umugabo muremure w'imibiri yombi yambaye amarineti akaba yambaye ishati y'amaboko maremare, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari abantu bicaye abandi bahagaze, bigaragara ko hari ikiganiro ari kubagezaho.

Icyumba kirimo abantu barimo abagore n'abagabo bigaragara ko aba bantu basa nk'abari mu kiganiro kandi abo bantu bakaba bafite amakaramu n'amakaye mu ntoki bisa nk'aho umuntu uri imbere ari kubigisha ibyo bandika muri ano makayi.

Icyumba kicayemo abantu bagizwe n'abagabo n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza iteretseho ibyo kunywa birimo amazi n'imitobe bigaragara ko aba bantu bari mu nama, kandi aba bantu bakaba ari abantu bagizwe n'urubyiruko.

Icyumba kirimo abantu benshi barimo abagore n'abagabo ,harimo umugore uhagaze bigaragara yuko afite indangururamajwi mu ntoki na telefone, afite ibitekerezo ari kugeza kuri bano bandi bicaye, nabo bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve icyo ari kuvuga.

Umugabo muremure w'inzobe wambaye amarineti, akaba yambaye n'umupira uciye amaboko, afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko ahagaze imbere y'abantu ari kubaganiriza, nabo bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga. Inyuma y'uyu mugabo haragaragara intebe zisa nkaho zicarwamo.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu barimo abagore n'abagabo, hahagazemo abakobwa babiri, umwe afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko hari igitekerezo ari kubwira bano bandi bicaye, bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Icyumba kirimo abantu benshi bamwe baricaye, abandi basa nk'abari imbere yabo bari kubyina, bigaragara ko uru ari urubyiruko ruri gususurutsa aba bantu bicaye, na bo bakaba bicaye babateze amaso n'amatwi kugira ngo barebe banumve ibyo bari kubakinira imbere.

Ahantu hateraniyemo abantu barimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye hamwe, hari n'umwe wicaye usa nkaho ari kubagezaho ikiganiro, bigaragara yuko bamuteze amatwi, kugira ngo bumve ibyo ababwira. Aho bicaye kandi imbere yabo, hateretse amacupa arimo ibyo kunywa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe basa nk'aho bari guhabwa ikiganiro n'umuntu ubahagaze imbere, bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo ari kuvuga, kandi aba bantu bakaba bicaye bafite amakayi bari kwandikamo ibyo bari kubwirwa.

Icyumba cyicayemo abantu barimo abagore n'abagabo biragaragara yuko bari mu kiganiro, abantu babahagaze imbere bakaba bari kubaganiriza, abicaye bakaba babateze amatwi bumva ibyo bari kuvuga kugira ngo bazabibyaze umusaruro.

Umugabo muremure w'imibiri yombi, ahagaze imbere y'abantu, bisa nkaho ari kugira icyo ababwira kuko afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko abamwicaye imbere basa nk'abari kumutega amatwi bumva ibyo avuga.

Umugabo munini wambaye ishati y'amaboko maremare w'imibiri yombi, yicaye ku ntebe impande y'ameza, bigaragara ko ari gutanga ikiganiro kuko yicaye imbere y'abantu, wagira ngo arimo aravuga abo bantu bakaba bamuteze amatwi, kugira ngo bumve icyo avuga.

Umugabo munini w'imibiri yombi, wambaye impuzankano y'abapolisi bigaragara ko ari umupolisi, afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara y'uko ari ikiganiro ariguha abantu bicaye aha, bakaba bicaye batuje kugira ngo bumve ibyo avuga.

Inka z'inyambo zibyibushye zimeze neza ziteze amahembe meza, zikaba zashyizeho imitako bigaragara ko zizanywe mu kirori, hakaba hahuriye abantu benshi kugira ngo barebe ubwiza bw'izi nka zifite amahembe ateze neza.

Abagore bari kubyina imbyino za kinyarwanda bahagaze imbere yabandi bantu bicaye bigaragara ko aho hantu habereye ikirori, noneho bano babyinnyi bakaba bari gususurutsa aba abantutu bicaye babateze amaso ngo barebe ibyo bari kubyina.

Icyumba kirimo abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye imbere yabo hari itsinda risa nk'ababyinnyi b'intore, bakaba bari kubasusurutsa, abicaye bakaba babateze amaso ngo barebe ibyo bari gukora, aho bicaye kandi hakaba hari ameza ateretseho ibyo kunywa.

Igipangu kinini cyubakishije amabuye ahiye, kikaba kizengurutse inzu irimo hagati isakajwe amabati meza, ikaba hanze y'iyi nzu hari umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko n'umuhanda ukoreshwa n'abantu bawunyuramo kandi inyuma y'iyo nzu na none hakaba hari igiti kirekire.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imihondo, umwe ufite amaboko maremare undi ni magufi, bakaba bari hejuru y'inzu, bigaragara ko bari kumanika uyu murasire kugirango abantu batuye muri ino nzu bajye babona urumuri ruva kuri runo murasire.

Umuhanda w'igitaka muremure uri nko mu mudugudu, hagaragara ko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi hakaba hari ayo mazu y'ubucuruzi asize amarangi y'umuhondo, bikaba bigaragara ko hari umuriro kuko hari ibiti bitwara amashanyarazi biyavana mu gace kamwe biyajyana mu kandi.

Ipoto rirerire ry'umuriro rikaba risa nkaho ari ryo rihereza umuriro uku n'amazu yegeranye n'iyi poto. Aya mazu kandi akaba asakarishije amabati atukura bigaragara yuko yubatswe n'abahanga kandi hafi aha hakaba hari ibiti bishishe bigaragara ko ahantu habonye imvura ihagije.

Umurima munini urimo ibyatsi n'ibiti birebire, urimo imirasire bigaragara ko ino mirasire yifashishwa bari kuhira imyaka ya hano hafi cyangwa bakaba bayikoresha bamurika.

Umudugudu urimo amazu menshi biragaragara ko kano gace karimo imisozi miremire, kandi uno mudugudu ukaba urimo imihanda miremire isa nk'amakaburimbo, hirya yayo hakaba kandi hari ibiti bisa neza, bigaragara ko ah ahantu habonye imvura ihagije bityo bino bimera bigakura neza.

Umuhanda muremure wa kaburimbo, bigaragara ko abantu bari guca ku ruhande, ku muhanda uba warabagenewe, kandi hakaba hari amazu hirya y'iyo kaburimbo, bigaragara ko yubatse neza ari mu mudugudu abantu babamo, kandi kuri uwo muhanda hakaba hariho amapoto, bisa nk'aho batwara umuriro w'amashanyarazi.

Abantu barimo abagore n'abagabo bari kuva ku nzu bigaragara yuko hariyo igikorwa bari kuhakora, iyi nzu kandi ikaba ari inzu nini yubatse neza, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati asize ibara ry'ubururu, imbere yayo hakaba hari ikigega, ikigega gifasha kubika amazi.

Imodoka y'Imbangukiragutabara isa nk'iparitse ku bitaro by'Akarere ka Nyagatare, ibi bitaro kandi bikaba byubatse neza ku buryo bugezweho, bisize irangi ry'umuhondo, bikaba bisakaje amabati agezweho kandi imbere y'ibyo bitaro hakaba hari ikigega cy'umukara.

Inzu nziza isize amarange y'umweru bigaragara ko iyi nzu ari igeretse ikaba ifite igipangu kiyizitiye cyubakishijwe ibyuma nabyo bisize irangi ry'umweru, iyo nzu kandi mw'imbere hakaba haparitse imodoka bigaragara ko iyi nzu hari ibintu bikomeye bahakorera. Hanze y'iyi nzu kandi hakaba hariyo ubusitani buteyemo ibiti byiza.

Inzu nini isize irangi ry'ubururu ikaba isakajwe amabati, ikaba iriho inzugi n'amadirishya, iyi nzu kandi ikaba iri imbere y'ahantu hari ibyatsi bisa neza, hakaba hari n'ibiti birebire bigaragara ko ahantu habonetse imvura ihagije, bityo bino bimera bigakura neza.

Abantu benshi bateraniye ahantu bisa nkaho bari mu biganiro, hari ufite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko hari icyo ari kubabwira kuko bamuteze amatwi bari kumva ibyo ari kuvuga.

Abantu barimo abagore n'abagabo bateraniye ahantu bigaragara ko hari icyo bari kuganiraho, imbere yabo hakaba hari umuntu usa nk'aho ari kubabwira, nabo bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga, hirya yabo kandi hakaba hari ibiti birebire n'amazu bigaragara ko hano hasanzwe hakorera abantu.

Icyumba giteraniyemo abagore n'abagabo, harimo umugabo wambaye impuzankano ya polisi bigaragara ko ari umupolisi, ahantu kandi ko bigaragara habereye ikiganiro ahantu kandi hari imeza iteretseho ibyo kunywa.

Umurima munini uteraniyemo abantu barimo abagore n'abagabo bikaba bigaragara ko aba bantu bari mu gikorwa cy'umuganda kuko bafite ibikoresho bifashisha bakora umuganda. Inyuma yabo kandi muruno murima hakaba hagaragara ko harimo ibiti kandi ahantu bari hakaba hagaragara ko ari ahantu h'imisozi miremire.

Icyumba kirimo abantu barimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye bameze nk'aho bari kuganira, hakaba hari imeza iriho amazi bari kunywa, bakaba bafite n'ibitabo, hakaba harimo umwe ufite indangururamajwi bigaragara ko ari kubaganiriza, bakaba bamuteze amatwi ngo bumve ibyo avuga.

Ahantu hahagaze abagabo bameze nk'abari kuganira, hari umugabo umwe ufite inkoni mu ntoki, hakaba hari undi wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, asa nk'aho ari kubaganiriza na bo bakaba batuje kugira ngo bumve icyo ababwira, hirya yabo haparitse imodoka hakaba hari n'umurima w'urutoki.

Icyumba giteraniyemo abantu barimo abagore n'abagabo, hakaba harimo umugabo uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki, bikaba bigaragara ko ari kuvuga ibyo ashaka kugeza kuri bano bantu bicaye, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza iteretseho amazi ari mu icupa.

Icyapa cya mpande eshatu kiri hakurya y'umuhanda cyerekana yuko hano hanyura abana bityo imodoka zihageze zikaba zigenda gahoro kugira ngo zireke abana batambuke. Hirya yaho kandi hakaba hari ibiti birebire bigaragara ko kano gace kabonye imvura ihagije.

Umumotari uri kuri moto akaba ari kugenda muri kaburimbo, bigaragara yuko iyi moto iri kugenda muri iyi kaburimbo imeze neza, hirya yayo kandi hakaba hari amazu agaragara nk'aho ari ay'ubucuruzi abaturage bifashisha bacururizamo.

Umunyonzi uhetse intebe bigaragara yuko zino ntebe zamuruhije kandi hakaba ari kuzitwara muri kaburimbo yubatse neza, imbere ye hakaba hari undi muntu, hirya yabo kandi hakaba hari ibyatsi bishishe, bigaragara yuko ibyatsi byabonye imvura ihagije.

Umumotari ari kuri moto ahetse abanyeshuri bambaye impuzankano bigaragara ko bari muri kaburimbo abajyanye ku ishuri, hirya y'aho bari kunyura hakaba hari amazu y'ubucuruzi bigaragara ko aya mazu akoreramo abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwawe n'umumotari, bigaragara ko ari mu masaha ya ninjoro kuko harimo haraka amatara kandi hirya y'uyu muhanda hakaba hari icyapa cya mpande eshatu kirimo umuntu uri gutambuka byerekana yuko hano hakoreshwa n'amaguru bambukiranya umuhanda.

Umugabo muremure wirabura wambaye ingofero n'amarinete, akaba yambaye umupira utukura uciye amaboko, ahagaze imbere y'abantu bicaye bisa nk'aho ari kubaganiriza, nabo bakaba bamuteze amatwi kugirango ngo bumve ibyo avuga, inya yabo hari n'abandi bafite amagare.

Abantu bateraniye ahantu bigaragara ko harimo abagore n'abagabo, bari kubumba amatafari bigaragara ko biteguye kubaka inzu, hirya yaho kandi hari umurima urimo ibigori bikiri bitoya bigaragara ko bishishe, aha hantu habonye imvura ihagije.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bateraniye ahantu bafite ibikoresho nk'amasuka, bigaragara ko bari mu muganda kuko aho bari hari ibihuru, bisa nk'aho bari gutema, hirya yabo hari ibiti birebire by'amahwa.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bateraniye ahantu, imbere yabo hari umugabo munini wumukara wambaye ishati yumukara y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, usa n'uri imbere yabo, ari kubasusurutsa, bari gukoma amashyi.

Abantu benshi bateraniye ahantu barimo abagore n'abagabo biragaragara ko aba bantu bari bari mu muganda, bakaba imbere yabo hari ibyondo bari bari kubakisha inzu iri iruhande y'aho bari, bigaragara ko ari umuturage baje kubakira inzu, bakaba bari kuyubaka.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bateraniye ahantu bigaragara ko bari mu kiganiro, imbere yabo hakaba hahagaze umugore muremure munini, ari gusa nkaho ari kubaganiriza na bo bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Ahantu hateraniye abantu barimo abagore n'abagabo, hakaba harimo n'abacunga umutekano barimo abasirikare n'abapolisi, bikaba bigaragaraga yuko baje mu kiganiro gifite umuntu ukiyoboye, akaba ari kubabwira na bo bakaba bicaye bumva ibyo ari kuvuga.

Abantu benshi barimo abasirikare n'abapolisi bambaye impuzankano zabo zabugenewe, bakaba bateruye amabuye bigaragara ko hari ahantu bari kubaka, kandi hirya yabo hakaba hari imirima ihinzemo ibigori n'urutoki.

abantu bateraniye ahantu hasa nk'aho hari hari umwanda, abantu bakaba barimo abasirikare n'abadaso n'abaturage, bakaba bari ahantu hari ubwatsi bushishe, bisa nk'aho bari kubukupakupa kuko bafite amapakupa, hirya yabo hakaba hari ibiti birebire n'amazu bigaragara ko ahantu hasanzwe haba abantu.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, barimo abagore n'abagabo, hakaba harimo n'abasirikare n'abapolisi bambaye impuzankano yabo, aba bantu biragaragara ko bari gukora umuganda kuko bafite amasuka mu ntoki, basa nk'aho bari guhinga aha hantu hari ibihuru kugira ngo babikureho, hirya yabo kandi hakaba hari urutoki.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bigaragara ko bateruye amabuye kandi bikaba bigaragara na none ko bashobora kuba bari mu gikorwa cy'umuganda bahuye ahantu kugira ngo bubake igikorwa remezo runaka. Biragaragara kandi ko hirya y'aho bari hakaba hari imirima y'ibigori n'amazu, bigaragara ko ahantu hasanzwe hatuye abantu.

Umumama munini w'inzobe wambaye ikanzu, ari kumwe n'umugabo umufatiye umutaka bigaragara yuko hano hari imvura nyinshi kandi uyu mumama akaba afite indangururamajwi bisa nk'aho ari ikiganiro ari kugeza ku bantu bari hano.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe barimo abagore n'abagabo ,bafite ibikoresho bikoreshwa bikora isuku harimo amasuka n'amapiki ,biragaragara yuko bari mu gikorwa cy'umuganda kuko ahantu bari hari ibihuru bari guhinga.

Ahantu hateraniye abantu benshi harimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe izo ntebe zikaba ziteye ahantu hari ibyatsi bishishe bigaragara ko ahantu haguye imvura, inyuma y'abo kandi hakaba hari inzu zubakishije amatafari y'ibitaka.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi b'amakipe abiri asa nk'abahanganye, akaba bamwe bambaye impuzankano y'umuhondo, abandi bakaba bambaye iy'ubururu, bigaragara ko aba bantu bari gukina umupira w'amaguru.

Ikibuga cy'umupira kirimo abayobozi basa nkaho bagiye kuba bari kureba umupira ugiye kubera hano ugiye guhuza amakipe abiri bisa nkaho agiye guhatanira igikombe itsinda ikaba iri buhembwe igikombe bakaba bagiye gukinira muri kino kibuga cyubatse neza.

Umugabo wambaye impuzankano ikoreshwa bakina umupira w'amaguru, ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, hakaba harimo umupira bigaragara ko ari gukina n'abandi, hirya kandi hakaba hari ibyatsi bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije.

Abagabo bicaye ku ntebe y'abasimbura bigaragara ko bambaye impuzankano bakoresha bakina umupira w'amaguru, hakaba harimo umwe wambaye ingofero y'umweru n'umupira uciye amaboko w'ubururu. Aba bantu bakaba bafite umupira bakinisha, munsi yabo kandi ahantu bicaye biragaragara ko ari mukibuga bakiniramo umupira.

Umusore wirabura muremure uri mu kibuga cy'umupira, akaba yambaye impuzankano bakoresha iyo bari gukina umupira w'amaguru ,akaba ari mu kibuga kirimo ibyatsi bishishe, hirya ye hakaba hari amazu bigaragara ko aka gace gatuyemo abantu.

Umuhanda muremure wa kaburimbo bigaragara yuko uno muhanda wubatse neza, hirya y'aho hakaba hari amapoto ariho amatara amurikira uno muhanda, kandi hakaba hari kunyuramo abantu, uno muhanda bigaragara ko ufasha abantu bagenda banagaruka, hirya y'aho hakaba kandi hari amashyamba bigaragara ko uno muhanda ukikijwe n'amashyamba.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugore wambaye impuzankano yabugenewe y'abantu bakora mu muhanda bakuruburamo, kuko afite umukubuzo bigaragara ko ari kuhakuramo isuku, uno muhanda hirya yawo kandi hariyo urugo bigaragara ko aha hantu hataha abantu.

Umuhanda muremure wubatse neza wa kaburimbo urimo umurongo w'umuhondo hagati , biragaragara ko hirya y'uyu muhanda hari abantu bari kuwucamo mu kayira kagenewe abanyamaguru kandi hirya y'umuhanda na none hakaba hari ibyatsi bigaragara yuko hano hantu habonetse imvura mu byatsi bisa neza.

Umuhanda muremure w'igitaka bigaragara ko aha hantu hanyura abantu, kandi hirya y'uyu muhanda hakaba hari amazu bigaragara ko aha hantu hataha abantu, hirya y'aho kandi hakaba hari n'ibiti bisa neza, bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije bityo bino bimera bikamera neza.

Umuhanda muremure wa kaburimbo biragaragara ko ari mu masaha ya nijoro kuko uno muhanda ucaniwe n'amatara yo ku muhanda kandi hirya y'umuhanda biragaragara ko hari amazu, bigaragara ko hatuwemo n'abantu.

Umuhanda w'ibitaka ugana mu mudugudu, uyu mudugudu ukagaragaramo amazu y'abaturage bigaragara ko hano hantu hatuye abaturage kandi hafi y'aho umuhanda uri, hakaba hari ibyatsi bigaragara ko aha hantu haguye imvura igatuma bino byatsi bimera neza.